Iki ni icyuzi cy'amafi bororera mo amafi bakayazana bagashyiramo n'imirama, bakayororeramo hanyuma umusaruro uvuyemo bakagurisha ukagira ibyofasha muri rusange cyangwa se nyirayo.

Umurobyi arobye amafi dorega yaragaraga ari mu ibafu, yasaga nk'aho arimo arava mu cyuzi azamuka, ahantu ya ikigaragara cyo ni mu gishanga bagiye batega amazi menshi cyane bahingamo umuceri.

Ni ugutema amashyamba, batemye amashyamba barashaka inkwi, gusa biragaragara neza ko bayangije bayatemye yose ntibagire basigaho, bitari na byiza ku kirere cyacu.

Ubu n'uburyo bwo kuhira, bakoresheje umupira, bakacomeka kuri moteri iri munsi cyangwa se muri sose y'amazi cya se mu gishanga cyo mu muyanja, bakazamura amazi bagakanda umupira amazi akazamuka, hanyuma imyaka ikera.

Uyu muhinzi arimo aruhira imyaka ye, ikigaragara ni mu gihe cy'izuba arimo arayuhira kugira ngo abashe gufata, abashe kubona umusaruro ufatika bitewe n'uko izuba ryabaye ryinshi imvura yabaye nkeya mu butaka , abasha kubona umusaruro yifuza.

Igishanga gihingwamo ibihingwa bimwe bikenera amazi cyane nk'umuceri mu byo bahinze biriho bakawusarura bakawujyana ku bikusanyirizo kugirango bawutunganye neza cyane.

Izi ni imbwa zari zasaze, ni Nyagatare, zimaze abantu zirimo zirabarya, zari zasaze, zatorotse mu mago, zatorotse ba nyirazo, biba ngombwa ko bazikura mu nzira.